Abayobozi barimwo n'abashinzwe kurinda umutekano gw'Igihugu. Bahetse ibyuma bitera umuti. Baruhirira abaturage imyaka yabo y'ibigori kugira ngo barwanye indwara yabifashe cangwa ibyibasiye.

Amabasi garimo amoko gatandukanye g'umuceri. Birumvikana ko agamabase gateretse ahantu mu isoko ritari irya cijambere. Hanyuma umuguzi uramutse uje kugura harimwo akantu kameze nk'agakoroboyi arengerwamo akishura amafaranga bamuciye

Umuti gwica udukoko kandi gukarwanya indwara zitandukanye mu bihingwa cangwa mu bimera guri ku gakoko keza cane twita nanone ikidasesa guri kwanikwa kugira ngo gubashe gukoreshwa gumeze neza.

Icupa ryagaragajwe ririmwo cangwa rishyirwamwo umuti wica udukoko ukurwa mu bireti. Ni igihingwa cyera mu majaruguru, iyo cyeze kigira indabo z'umweru, nizo zikamurwamwo umushongi, hanyuma ugakoreshwa mu kwica udukoko twangiza imyaka.

Ibyokurya byateguranwe ubuhanga, bigizwe n'inyama z'umweru niba ari iz'inkoko cyangwa iz'ingurube ntago nabimenya, gusa bigaragara ko ari inyama zatetswe mu buryo bwaruzungu kuko zirakaranze, zitatsweho uturabo, ziriho indimu ,ziteye ipfa muri make k'umuntu urimo arazitegereza.

Mu Kinyarwanda tuvuga imbehe, mu ndimi twatiye tukavuga isahane. Imbehe cangwa isahane ni igikoresho dufunguriraho cangwa turiraho ibyo kurya byahiye. Isahane iriho ibyo kurya biteye amabengeza, birimo inyama z’amafi ziteguranywe salade zibereye ijisho.

Amafi akunda kuba mu mazi. Iyo ageze imusozi ahita apfa. Amafi araryoha cyane. Aba afite umubiri utwikiriwe n'amagaragamba. Ariko hari n'amafi anyerera atagira amagaragamba. Amafi aryoha cyane iyo uri kuyarisha ubugari. Iyo ageze imusozi ahita apfa! Ni ngombwa ko agomba kwibera mu mazi gusa.

Amafi menshi kandi manini gafatiwe mu muraga. Umuraga ni igikoresho gishushe nka supenete cangwa izwi ku izina ry'inzitiramibu cifashishwa mu gihe cy'amanywa cyangwa nijoro baroba amafi mu mazi.

Icungo cangwa isafuriya giteretswemwo amafi. Amafi ni ibinyabuzima biba mu mazi bitungwa no kurya agandi mafi cyangwa ibyatsi bimera hejuru y'amazi bizwi nk'urubobi. Zishobora kandi no kurya udusimba twarohamye mu mazi. Amafi gararibwa kandi gatuma ubwonko bukora neza.

Itsinda ry'abarobyi bari mu bwato bwabo，baragasha berekeza mu kiyaga rwagati. Ikiyaga naco uko bigaragara kiratuje cane nta muhengeri guririmo kandi urabona ko ikirere naco ubwaco gikeye.

Ifi iba mu mazi, iyo yafashwe igakurwa mu mazi ntabwo iba ikibasha guhumeka, ubuzima bwayo buba buhagaze, iraribwa, iratekwa ikaherekezwa n'ibindi biryo nka sarade cangwa imbuto usanga bikoze umutako biri ku isahani.

Amafi ni ibiremwa bikurira mu mazi, gashobora kuba amazi g'inyanja, g'imigezi, g'inzuzi cangwa g'ibiyaga. Amafi gafite umumaro munini cane kuko gararibwa, gakagira intungamubiri nyinshi zituma umubiri gw'abantu gukura kandi gukagira ubwenge.

Isambu nziza cane yitegeye imisozi y'ibirunga ihinzwemwo igihingwa c'amashaza gazwi nanone nk'amajeri. Ni igihingwa gihingwa mu duce dushyuha buhororo cangwa udukonja cane, kiribwa n'abantu benshi, gishobora kuribwa gitetse cangwa gikaranzwe.

Ubutaka mbere yuko buterwamo imyaka, cyangwa imbuto bubanza gutegurwa, bugomba gutegurwa hifashishijwe ingufu z'abantu bakoresha amasuka, cyangwa hagakoreshwa imashini za kijyambere zihinga, hanyuma hakabona guterwamo imyaka izatunga abantu.

Inzira nto y'abanyamaguru ikikijwe n'ibyatsi biribwa n'ibitaribwa, mu biribwa harimo isombe, isombe ibanza gusekurwa cangwa gusheshwa mbere y'uko itekwa, ikavangwa na tungurusumu, puwavro cangwa puwaro, ishobora kuvangwa n'ibindi biryoshe, bituma iryoha, irishwa umuceri cangwa ubugari.

Amashu gari mu mboga z'ibyatsi ziribwa zitetse cangwa ari mbisi bizwi ku izina rya salade. Amashu gafite intungamubiri nyinshi ku mubiri gw'uyafunguye. Amashu kandi gashobora gutanga amafaranga ku bantu bakora ubuhinzi bwayo gakabateza imbere.

Umurima utegerejwe guhingwa. Ariko urimwo igihingwa cyitwa amateke. amateke ni igihingwa cy'ibinyabijumba. kuko cyerera munsi y'ubutaka. Ni igihingwa kiri mu bwoko bw'ibinyamafufu. Kiraribwa kandi kirakundwa cyane.

Igisambu ni umurima wahoze uteyemo imyaka ikaza kwera, nyuma igasarurwa ikajanwa mu rugo kuribwa, cangwa kugurishwa, usigara ukikijwe n'ibiti bisanzwe biwurinda isuri igihe imvura yaguye.

Amashaza gazwi na none ku izina ry'amajeri. Iyo geze gakiri mabisi, tugita urunyogwe. Amashaza gahingwa cane cane mu misozi, ahantu hakonja cane. Gabarizwa mu byo kurya twita ibinyamisogwe. Abagahinga bagahinga bashaka amafaranga ngo bashobore kwiteza imbere.

Ibirayi. Ni igihingwa c'ibinyabijumba kuko cerera mu butaka. Ibirayi bikize ku ntungamubiri nyinshi zizwi nka poroteyine. Biri mu binyamafu, bikundwa n'abantu benshi. Bishobora kuribwa ifiriti, bikaranzwe cyangwa bigatogoswa.

Avoka ni igiti ciza cane! Uretse kuba imbuto zaco ziribwa, igiti caco gishobora kuva mwo ibikoresho bitandukanye iyo kibajwe. Nk'intebe ,ameza, n'ibindi ...Nanone ibibabi byaco bishobora kuba ibyo kurya byiza by'amatungo .Hari n'aho usanga imbuto za avoka zikorwa mwo umuti ushobora kuzura amara.

Beterave ni igihingwa kiri mu bwoko bw'imboga. cyera mu duce tw'igihugu dushuha cane .Kiribwa ari kibisi cangwa kikaribwa gitetse. Kizwiho kongerera amaraso mu mubiri g'umuntu. Iyo gikamuwe umutobe wacu ushobora kuvangwa n'umutobe w'izindi mbuto ukazihindurira ibara.

Dodo ni imboga nziza cane, imboga zifite intungamubiri ku buzima bwacu e nimboga abana barya bakaba badashobora gufatwa na bwaki mbese babandi bagwingira hehe mu muryango nyarwanda baracika bakavamo, imboga nyarwanda rwose zitwa dodo tuzi.

Amakoro manini cane yagiye arukwa n'ibirunga, yifashishwa ahanini mu nyubako zitandukanye, ariko kandi hari n'amakoro usanga ari urujeregenye. Bene ayo makoro ashobora guhingwamwo imbuto zitandukanye nk'ibishimbo, ibigori n'amasaka.

Ibiti ni ibimera birimo amoko menshi atandukanye. Iyo ari byinshi tubyita ishyamba. Bishobora kumeramo nk'ubwatsi amatungo ashobora kurisha. Ibiti bikurura imvura, kandi bivamo ibikoresho bitandukanye nk'intebe, ameza, inzugi, n'ibindi byinshi. Bishobora kuvamo imitako inyuranye kandi bihesha bene byo amafaranga.

Ibirayi nigihingwa cyera cyane mu ntara y'amajyaruguru. Kirimo imbuto zitandukanye nka sankima, kinigi, sutamo, kirundo, kuruseke n'ibindi byinshi. Bigira umumaro wo kuribwa, no kugurishwa bigatanga amafaranga. bishobora gukorwamwo ifiriti cyangwa bigakorwamosambu.

Icyatsi cy'igikakarubamba, ni icyatsi cyera ahantu hadashushe kandi hadakonje cyane, nahano wacu mu Majyaruguru wakihasanga, iki cyatsi usanga gikoreshwa muri byinshi cyane, nko kuvura abantu bakomeretse kandi gishobora kujyanwa mu nganda, kikabyazwamo amavuta yo kwisiga, rwose ni icyatsi kimeze neza cyane.

Urutoki iyo ari rwinshi rwitwa ingaga, rwera umusaruro witwa ibitoke bishobora kuba inyamunyo cangwa inkashi. Inyamunyo ni ibitoki byagenewe Kuribwa, ibikashi ni ibitoki byagenewe kwengwamo inzoga cangwa gukamurwamo umutobe hari n'ibiribwamo imineke.

ibiti mu moko gabyo gatandukanye bifite akamaro kanini cane bituma umuntu abona umwuka mwiza ahumeka, bikurura imvura, bituma imvura iguye ubutaka bwongera kumeza ibimera bitunga umuntu, ibiti bivamwo ibikoresho bitandukanye umuntu akenera nk'intebe, ameza, ibitanda n'ibindi. Ibiti bivamo inkwi zo gucana.

Ishamba ry'ibiti bya geveriya rirumbaje hirya yaryo hari irindi shamba riri guhinguka ry'ibiti by'inturusu, iruhande rw'iri shamba rya giveriya hari umurima wahoze uhinzwemo ibigori, byarasaruwe kuko haragaragara ibigorigori byumye.

Karoti ni igihingwa kiri mu bwoko bw'imboga. Guhinga karoti, bavuga kwinaza umurama gwa karoti. Zerera hagati y'amezi atatu n'amezi ane. Ziraribwa zitetse cangwa ari mbisi. Zizwiho kuvura amaso kandi ziri mu birinda indwara.

Isambu cangwa umurima guteganye n'ibirunga gwasaruwemo ibigori kuko mu murima ubwagwo hagaragaramwo ibigorigori, ni ibyatsi byasaruwemwo ibigori, bishobora kuba ibyo kurya by'amatungo cangwa bigahinduka ifumbire ry'indi myaka.

Umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi, rabu, yasuye isambu ihinzemwo urusenda. Arimwo aritegereza uburyo iki gihingwa cyabashije kwera muri yisambu.

Isoko ririgaragaza ry'imbuto, n'imboga, kuko riragaragaramwo amatunda atandukanye y'amoko menshi nka marakuja ,amaronji, imyembe, imineke n'isoko bigaragara ko ricuruza imbuto cane cane.

Ishirahamwe ry'abahinzi b'ibirayi basuye umurima wabo. Uyu murima bawuhinzemo imbuto y'ibirayi. Bishimiye cane umusaruro ugenda uva ku mbuto bahinze, biragaragara cane ko akanyamuneza ari kenshi, kubera umusaruro babonye ku mbuto yabo.

Igitoke mu bwinshi ibitoke, ni igihingwa cera cane mu duce tw'igihugu dushuha, zirimwo amoko gatandukanye inyamunyo n'inkashi. Inyamunyo zagenewe kuribwa, inkashi zikamurwamwo umutobe cangwa zikaribwa ari imineke.

Imyumbati ni ubwoko bw'ibinyabijumba byerera munsi y'ubutaka, biraribwa biribwa ari bibisi cangwa bikaribwa bitetse, bishobora gukorwamwo ifu yitwa ubugari, nayo ibasha kuribwa irishijwe ibindi biryo nk'imboga zinyuranye.

inyanya ni igihingwa kiri mu bwoko bw'imboga. Ni igihingwa kiribwa gitetswe cangwa kibisi Cerera hagati y'amezi ane n'atanu. Cera mu duce tw'Igihugu dushuha cangwa dukonja. Kivamwo umutobe witwa sositomate.

Umucuruzi wagaragajwe igice kimwe c'ukuguru aracuruza inyanya n'intoryi aho yabifunze ku mifungo, inyanya n'intoryi bibarizwa mu bwoko bw'imboga, bishobora kuribwa bitetswe cangwa bikaribwa ari bibisi, inyanya zikamurwamo isosi izwi ku izina rya sositomate mu ndimi z'amahanga.

Imyungu cyangwa ibihaza ni ibiribwa biboneka mu bwoko bw'imboga. Imboga zigirira akamaro umubiri wacu kuko ziwongerera ubudahangarwa bityo ntugwaragurike hato na hato ibihaza byera ku ruyuzi rugenda rurandaranda ku butaka rutera ibihaza bishobora kuvamwo n'amavuta.

Umubyeyi mu isambu nini cane yahinzemwo ibigori，aragaragaza ko ibigori bye bimaze kwera. Ibigori biraribwa ibitiritiri byabyo biribwa n'amatungo cangwa， bigacanwa， iyo byumye bitekeshwa ibindi byo kurya bishobora no kuvamwo ifumbire.

Dendo ni amatungo magufi abarizwa mu bwoko bw'ibiguruka cangwa bizwi ku izina ry'inyoni. Dendo zifite umumaro munini cane kuko zitera amagi abantu bashobora kurya, cangwa zikaribwa nazo ubwazo ari inyama. Zishobora no gutanga amafaranga.

Amashu gari mu bwoko bw'imboga rwatsi, gashobora kuribwa gatetse cangwa gari mabisi, amashu gera mu duce tw'igihugu dukonja cane, amashu kandi gagira intungamubiri zitandukanye kuko gari mu biribwa birinda indwara umubiri gwacu gukagira ubudahangarwa.

Ronje cangwa amaronje ni immbuto zera cane cane mu duce tw'igihugu dushuha. Ziribwa n'abantu b'ingeri zose, abato n'abakuze. Zifitiye akamaro kanini umubiri wacu. Amaronje ashobora gukamurwamo umutobe ushobora na none kwengwamo ikindi kinyobwa gihiye.

Iyi nyubako izwi ku izina rya grini hawuzi niba tugenekereje twavuga inzu y'icatsi ariko n'inzu iga ituburirwamo ibihingwa binyuranye. Ahangaha biragaragara ko ari igihingwa c'ibirayi kirimo kiratuburirwa muri iyi nzu y'icatsi cangwa twakwita grini hawuzi mu ndimi z'amahanga.

Inzu nini cane yubatswe k'uburyo butanga umuco, ituburirwamo cangwa ikageragerezwamo imbuto, cangwa bimwe mu bihingwa abantu bahinga, irimwo abantu bari gushira imbuto mu ahabugenewe kugira ngo babashe kureba niba izera neza.

ibitoki byera ku mitumba yitwa insina. Insina nyinshi ziri hamwe zitwa ingaga. Ingaga ni ukuvuga urutoki rwinshi. Ibitoki bifite akamaro kanini cyane, kuko biraribwa kandi bishobora gukamurwamo umutobe cyangwa inzoga, bityo bigaha abantu amafaranga.

Karoti ni igihingwa cera mu duce tw'igihugu dushuha cangwa dukonja. Ziribwa zitetse cangwa zikaribwa mbisi bizwi nka sarade. Ziraryoha cane.

Icokezo ni ubutaka butegurwa neza maze bugaseswamo cangwa bukinazwamo imbuto nk'amashu, karoti, intoryi cangwa inyanya. Iyo bikiri mu cokezo byitwa ingemwe, iyo bimaze gukura, birarandurwa bikajanwa guterwa mu bundi butaka buba bwateguwe neza. Mu gihe c'izuba biba ngombwa ko zuhirwa cangwa zigacucirwa.

Imiteja iri mu bwoko bw'imboga bwera ku bishimbo byitwa nyiragateja, bwera mu duce dushuha cangwa se dukonja, imiteja iribwa ari mibisi cangwa itetse, iyo ari mibisi tubyita salade imeze neza cane kuko irinda indwara.

Imboga. Ni ubuhinzi bukorerwa mu mirima iri mu bishanga cane cane aho mu gihe c'izuba babona amazi yo kuzicucira cangwa kuzuhira. Zirimo amoko gatandukanye isogi, dodo cangwa inyabutongo, imiteja, n'ibindi.

Ubunyobwa ni igihingwa cera mu duce tw'igihugu dushuha cerera munsi y'ubutaka kiri mu bikonoshwa. Ubunyobwa buribwa bukaranzwe cangwa bugasheshwa, ifu yabwo ikaba ishobora gukorwamo isosi irishwa ibyo kurya bitandukanye nk'ubugari, igitoke n'ibindi... Bugira intungamubiri.

Igiti c'ipera :ni igiti cera amatunda, ni igiti amatunda yaco aryohera abato n'abakuru, ee kandi iyo gitemwe gishobora kuvamo inkwi, kigacanwa kigahinduka ibicanwa bishobora gutuma abantu basusuruka ,cyangwa se bakabona ibiba..

ibirayi biri mu moko y'ibiribwa atera umubiri imbaraga. Byera cyane mu duce dukonja nka Musanze, Burera, Rubavu na Nyabihu. Birimo amoko menshi atandukanye. Hari nka Kirundo, Kinigi, Kuruseke, Sangima n'andi tutabashije kurondora. Byerera amezi atatu cyangwa ane, kugeza kuri atanu bitewe.

Umuntu w'igitsina gore afashe isuka n'amabesani yambaye bote arambukiranya isambu y'ubusitani ihinzemo urusenda bigaragara ko yahoze ari mu kazi ko kuhira imbuto ze kuko bigaragara ko ari igihe c'izuba ryinshi.

Igiti cy'umurinzi kizwi ku izina ry'igiko. Ni cyo kigira imbuto nk'izi ngizi iyo cyeze. Icyo giti kirangwa no kugira amahwa menshi ndetse n'ibibabi bigaye . Cyazengurutswaga urugo mu rwego rwo kurinda abagizi ba nabi. Abashaka kurwinjirira kikabajombesha amahwa yacyo. Imbuto zacyo zirabetwa, ifu yazo igakoreshwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Ibihingwa basarura bahetse ico basaruramo ,nta handi wabisanga .Uzabisanga mu karere ka Rubavu ,mu karere ka Nyabihu ,mu karere ka Rutsiro. Saho gusa ariko hari n'ahandi wabisanga .Ibi bihingwa bikaba bizwi neza ku izina ryitwa icayi.

Imboga n'imbuto ni ibintu bifitiye akamaro kanini mu mubiri gwacu. Biri mu biribwa biturinda kugwaragurika, kuko byongera ubudahangagwa bw'umubiri. Bityo ntihagire akagwara gapfa kutwidogagizaho , ababicuruza na bo babona amafaranga go kwiteza imbere, bagateza n'igihugu imbere muri rusange.

Urubuto rw'indimu rwakaswemo ibipande bibiri. Ni urubuto ruribwa rushobora gukamurwamo ikinyobwa kizwi ku izina rya sitoro. Urubuto rw'indimu ruvura indwara zitandukanye nk'inkorora iyo baruvanze n'ubuki n'ibitunguru, cangwa ibihu byarwo bikaba bishobora kurwanya impumuro mbi mu maha.

Umwungu cyangwa igihaza kiri mu bwoko bw'imboga bwera ku rubuto rwitwa uruyuzi. Uruyuzi ruterwa mu butaka, rugakura rugenda rurandaranda. Aho rurandiye rukahatera ibyo twita ibihaza, cyangwa imyungu. Imyungu iraribwa kandi igira intungamubiri ku buzima bwacu.

Ubuhinzi bw'imboga z'amashu. Bukorwa cane cane mu duce tw'Igihugu dukonja. Amashu ni imboga zifitiye umubiri akamaro, ziribwa mbisi cyangwa zitetse. Iyo ari mbisi babyita mu ndimi z'amahanga salade. Zishobora na none kuvamwo umuti.

Amateke ni igihingwa gikunda guhingwa ahantu h'ibishanga. Garimwo amoko gatandukanye hari agitwa amabungu, hari n'agitwa bwayisi, gararyoha cane. Iyo gageretse ku bishyimbo usanga abantu benshi bagakunda.

Ipapayi ni ubwoko bw'imbuto bwera cane mu duce tw'igihugu dushuha. Zirimwo amoko gatandukanye; hari ipapayi za kizungu, hakaba n'ipapayi za kinyarwanda, ziraribwa kandi zishobora gukurwamwo umutobe.

Umutegarugori afashe urubuto ruzwi nka wotameroni, urubuto rwa wotameroni ni rubuto ki? ni urubuto rwiza cyane rwera mu duce tw'igihugu dushyuha, ni urubuto rufite umumaro cyane, kuko rugabanya umuvuduko w'amaraso, kandi rugafasha umuntu kwituma neza.

Urusenda mu mabaraga garwo gagatandukanye:ag'umutuku, ag'umuhondo n'ag'icatsi kibisi. Ni imbuto ihingwa mu duce tw'igihugu dushuha. Rukoreshwa nk'indyoshandyo cyangwa urutera apeti mu kinyarwanda ipfa igihe umuntu arya.

Icayi ni igihingwa ngengabukungu. Ni ukuvuga igihingwa gihingirwa gutanga amafaranga cangwa kugurishwa. Iyo ceze kirasarurwa. Gusarura icayi babyita kunoga icayi. Kijanwa mu ruganda kigatunganywa, hanyuma kikazajanwa mu mahanga gitunganye.

Isambu y'ibigori bigeze igihe c'umugengararo cangwa umuterero. Iri mu cibaya cirimwo amazu g'abaturage. Harimo kandi umugezi munini cane gutemba. Ni icibaya giteye amabengeza kandi gishimishije.

Umubyeyi kandi w'umucuruzi w'imbuto nk'amatunda ya marakuja azwi ku izina ry'amarozi n'ibinyomoro, yifashe ku munwa nk'ikimenyetso c'uko yabuze abaguzi aribaza impamvu ibicuruzwa bye kandi ari byiza bitabona abakiriya.

Ubucuruzi bw'ibyo kurya by'amatungo nk'inkoko, ingurube, inka, ihene n'intama ni ubucuruzi bufitiye akamaro ababukora kuko bakuramwo amafaranga go kubatungira imiryango. Ibiryo by'amatungo biva mu bisigazwa by'imyaka abantu baba bahinze.

Amashaza ,amajeri cyangwa urunyogwe iyo akiri mabisi. Ni imbuto ibarizwa mu binyamisogwe yera cyane cyane mu duce tw'igihugu dukonja mu misozi miremire. Ashobora gukorwamwo ibyo kurya bizwi nka sambusa, ashobora kandi kuribwa ari mabisi, atetse cyangwa akaranzwe nk'ubunyobwa.

Imiteja nI ubwoko bw'imboga bwera ku bishimbo byitwa nyiragateja. Bihingwa cane cane ahantu h'ibishanga. Iyo ari igihe c'izuba habaho kuhira kugira ngo butange umusaruro. Buribwa butetswe cangwa ari bubisi. Bwongera kandi amaraso.

Ipera, mu bwinshi amapera .Ni imbuto zera ku giti cyitwa ipera. Ziraribwa kandi zigira umumaro mwinshi cyane kuko bivugwa ko zifitemo ubushobozi bwo kurwanya indwara yo kunnya impatwe.

Ibirayi biri mu bwoko bw'biribwa bita ibinyabijumba byerera munsi y'igitaka. Ibirayi biterwa mu gitaka iyo byagaragaje ko byameze ni ukuvuga byatangiye kuzana umwumba. Ibirayi byerera amezi atatu cangwa atanu, biterwa umuti ubirinda udukoko kugira ngo bishobore gutanga umusaruro.

Inka ni itungo rirerire ryororerwa mu kiraro cangwa mu gikuyu. Inka mu muco w'abahindi ifatwa nk'Imana, inka ifite akamaro kanini cane ku bayorora, ibaha ifumbire, ikabaha inyama, ikabaha amata cangwa uruhu rwayo rugakurwamo ibikoresho bitandukanye nk'imikandara ibikapu, inkweto n'ibindi.

Inkoko ni itungo rigufi ribarizwa mu biremwa byitwa ibiguruka， inkoko y'ingore yitwa inkokokazi，inkoko y'ingabo ikitwa isake， isake ni yo nkoko y'ingabo ituma inkokokazi ibasha gutera amagi， gabanguriye iyo yayishonze.

Umugabo yambaye amadarubindi， yambaye isurubeti， afashe rwose ipombo ariho ari gucucira umurima gwe gw'ibigori. Eee ari kuuwucucira rwose kugira ngo ibigori bye bitaza kuzicwa n'izuba kandi byegereye umugezi ii byegereye amazi.

Ubworozi bw'amatungo magufi garirimwo amahene ni ubworozi buteza imbere abaturage. Ihene rwose ni amatungo gazanira abaturage iterambere ryihuse, ririmo kubonera abana amafaranga g'ishuri, kubona ibikoresho by'inkenerwa mu rugo, n'ibindi.

Ubutike ni inzu nto icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ushobora kubonamo ibyokurya cangwa ibyo kunywa, nanone ushobora gusangamo ibicuruzwa bihabanye cane n'ibiribwa cangwa ibinyobwa ,biterwa n'ico umutima uzaba gwifuza.

Ubuhinzi ni umwe mu mirimo y'amaboko itunze abantu bayikora. Umuntu uhinga abakoresha imbaraga z'umubiri, ndetse akaba akoreramo n'igororangingo. Bityo akagira amagara mazima ndetse na nyuma y'uko abonye umusaruro, arishima kuko abona ibimutunga.

Avoka ni imwe mu mbuto zera mu duce tw'igihugu dushuha, avoka ifite umumaro mwinshi uretse kuba iribwa igiti cayo kivamo imbaho zishobora gukorwamwo inzugi, amadirisha cyangwa ameza. Avoka nanone zishobora gukorwamwo amasabune.

Abahinzi barimo gukorera igihingwa cy'imboga z'amashu. Bari gushyiraho ifumbire rwose, ni abagore bamwe bahetse abandi bigaragara ko bakuze ,bari kubagarira igihingwa cyabo bagishyiraho amashu kugirango kizabyare umusaruro uhagije.

Imbuto y'ibigori ifungiranye mu bipaki bikozwe mu mpapuro z'ibara rya kaki, hari n'imbuto zindi zirambitse ku dukoko cyangwa ku dutara, zisizwe amabara g'umutuku gatuma bitabasha kumungwa kugira ngo bizabashe guterwa mu butaka.

Ikawa ni igihingwa gihingwa can cane mu duce tw'igihugu dushuha. Ikawa yera ku biti, iyo ikimera irasasirwa kugira ngo ibashe kwera neza. Imbuto zayo iyo zeze zijanwa mu nganda zigatunganyawa.

Imbuto z'ibihwagari zeze ni imbuto zigira amabara meza cane gabengerana, ziranikwa, iyo zimaze kuma neza zishirwa mu mifuka zikajanwa mu nganda zabugenewe kugira ngo zibashe gukamurwamwo amavuta, abantu bashobora gutekesha ibyo kurya.

Amashaza cangwa amajeri ni igihingwa cera ahantu h'imisozi miremire kandi hakonja. Amashaza ari mu bwoko bw'ibiribwa bita ibinyamisogwe. Amashaza gashobora kuribwa gakaranzwe cangwa gatetswe. Bagakaranga nk'uko bakaranga ubunyobwa. Kandi amashaza agira intungamubiri zitandukanye.

Soya ni igihingwa cyiza cyane, igihingwa kigira intungamubiri, kikaba ari igihingwa gifitiye akamaro k'umubiri w'abantu, ndetse n'ibisigazwa byabyo bikaba bitunga amatungo, soya rero ni igihingwa cy'ingenzi, nubwo iwacu mumajyaruguru cyitajya cyihagaragara.

Umuceri ni igihingwa kibarizwa mu bwoko bw'ibinyampeke, gihingwa cane cane ahantu h'ibishanga ,hari amazi menshi, umuceri uraribwa kandi ufite akamaro kanini cane ,kuko uri mu biribwa bitera imbaraga umubiri gwacu.

Indabo ziri mu bihingwa bifitiye abantu benshi akamaro. Uretse kuba zikoreshwa mu mitako itandukanye, zikoreshwa no mu umuhango wo gushingura umuntu wapfuye. Indabo kandi zishobora kugira impumuro, ishobora gukoreshwa nk'umubavu mu bicuruzwa bimwe na bimwe nk'amavuta.

Ibishimbo biri mu bwoko bw'ibiribwa bifite intungamubiri nyinshi cane zizwi nka poroteyine. Ibishimbo biribwa bitetse. Bivugwa ko igihe udafite ubushobozi bwo kuba wakwigondera akaboga cangwa akanyama, mu kigwi cazo ushobora kurya ibishimbo. Ibishyimbo rero ni ingenzi ku mubiri w'umuntu.

Amajeri nanone gazwi ku izina ry'amashaza, iyo gari mu murima gagira uruyange rusa n'umweru cangwa rugasa n'ibara ry'umwijima, biterwa n'ubwoko bw'amajeri bwahinzwe bwera mu duce tw'igihugu dukonja cane.

Amashaza ari mu bwoko bw'inyamusogwe byera cyane mu misozi miremire ahantu hakonja. Akaba ari bimwe mu biribwa by'ibanze by'abanyarwanda by'umwihariko abaturage batuye mu Karere ka Musanze.

Imbuto y'ibigori bisa n'umuhondo bikaba bizwi ku izina rya Mayizori. Mayizori rukaba ari uruganda rwakoraga amavuta akomoka muri ibi bigori bisa n'umuhondo. Ni aho byakomoye izina ryabyo. Urwo ruganda rwari rwubatse ahantu hazwi nko ku Mukamira.

Ubucuruzi bw'imbuto zitandukanye nk'ibigori ibishimbo amasaka ingano n'inzuzi z'ibihaza n'ibindi ni ubucuruzi bufite umumaro cane kuko buha amafaranga ababukora gakabatungira imiryango ndetse gakaba gashobora kwigisha abana babo.

Umubyeyi, ariko kandi ukiri muto uhetse umwana, washize umwitero mu mutwe bita kwitandira , nk'aho ari uwo mu idini ya isilamu. Aratoranya imbuto y'ubunyobwa agira ngo ayitandukanye n'imyanda, ikoreshwe ifite ubuziranenge.

Urubuto rwa avoka rwera cane mu duce tw'igihugu tudakonja cane, ruraribwa iyo rweza, rugira ibiti bishobora gucanwa narwo ubwarwo rushobora gukorwamwo ibikoresho nk'amasabune nkenerwa buri munsi.

Ibigori ni igihingwa cera mu duce hafi ya twose tw'igihugu cacu c'u Rwanda. Iyo byeze neza birasarurwa, bikanikwa, bigahungurwa. Iyo bimaze guhungurwa byitwa inkungure. Bishobora gusheshwa bikavamo ifu ya kawunga ishobora kuribwa.

Umutegarugori ukuze n'umwana w'umukobwa ukiri muto，bambaye nk'abo mu idini ya isiramu，baratoranya ubunyobwa，babukuramo imyanda，bakoresheje ibikoresho nk'ibakure n'ibesani. Baricaye imbere y'iduka ryabo cangwa se butike yabo niho babutoranyiriza.

Ibigori ni bimwe mu binyampeke bihingwa cane mu gihugu cacu hafi ya cose. Ibigori bifite umumaro munini cane kuko bisheshwamwo ifu ivamo igikoma cangwa igatekwamo umutsima. Ibigori mu murima iyo byeze neza bigaragara ko byumye biracurama bikareba mu butaka. Ibigori bitanga amafaranga ashobora gukemura bimwe mubibazo by'abantu.

Umunyu guri mu birungo bikoreshwa barunga ibyo kurya kugira ngo biryohe. Gushobora kuribwa bagushize mu mu mazi gukayonga, cangwa ukaba ushobora kuwunyunyusa ugushize mu kanwa. Umunyu guri mu bintu umubiri ukenera, cane cane umunyu gw'amabuye gugabanya umuvuduko.

Ubunyobwa canga ububemba, ni bimwe mu binyamisogwe byerera munsi y'ubutaka. Imbuto zabyo ziba ziri mu bikonoshwa. Ubunyobwa bukamurwamwo amavuta ashobora gutekeshwa ibindi biribwa, ubunyobwa buribwa bukaranze cangwa bukaribwa ari bubisi; ubunyobwa bushobora kuvura indwara nyinshi.

Umuceri ni igihingwa kiri mu binyampeke gihingwa cane cane ahantu mu bishanga, iyo umuceri gweze gurasarurwa gugahurwa gugashirwa mu mifuka hanyuma gukerekezwa mu ruganda aho gutonorerwa.

Igitebo cangwa se inkoko cyuzuye ibishimbo. Ibi bishimbo byuzuye iyi nkoko cyangwa se iki gitebo,' ni ibishimbo bigaragara ko bitonoreweho ako kanya. Bikaba ari bimwe twakwita ko ari intonore cangwa se hari ababyita imitonore; ibishyimbo bitaruma.

Soya ni ubwoko bw'ibinyamisogwe yera mu duce dushyuha, iyo yeze ishobora gukamurwamo amavuta yo gutekesha azwi nk'ubuto, ishobora kandi gukamurwamo amata anyobwa, cyangwa igakorwamo umutsima uzwi ku izina rya tofu.

Ibihwagari ni ubwoko bw'ibihingwa buhingwa cane cane mu duce tw'igihugu dushuha ibihwagari bigira cane indabo zisa n'umuhondo iyo byeze birahungurwa imbuto zabyo zijanwa mu ruganda zigategurwamwo cangwa zigakamurwamo amavuta yifashishwa mu gutegura ibyo kurya binyuranye.

Ubunyobwa cangwa inkaranka bitewe n'akarere, ni ibihingwa byera mu duce dushuha cane tw'Igihugu, bushobora kuribwa bukaranzwe cangwa bugasya, bugaseshwa, ifu yabwo ikanyanyagizwa hejuru y'ibyo kurya cangwa igakorwamo isosi cangwa umufa. Ubunyobwa nanone bushobora gukamurwamo amavuta.

Igihingwa c'ibigori ni igihingwa ciza cane gishobora kuvamwo ibintu byinshi bitandukanye nk'ifarini, bishobora gukamurwamo nanone amavuta. Ibigori bigirira umubiri akamaro kuko biri mu biribwa bikomeza umubiri cangwa bitera imbaraga umubiri wacu.

Ibizungu cangwa se na none ruvuninkingi ,ni ibishimbo binini cane birangwa no kugira amaso g'umweru, bikagira ahandi amabara g'umukara n'umutuku. Ni ibishimbo byera mu duce tw'amajaruguru dukonja cane, biraribwa kandi biraryoha cane.

Abategarugori babiri bari gugosora ibishimbo bifashishije igikoresho kizwi nk'intara. Ibishimbo ni ibihingwa bihingwa mu duce hafi ya twose tw'igihugu dushuha cyangwa dukonja, iyo byeze byumye birasarurwa bigahurwa.

Imiteja zibaga mu bwoko bw'imboga, zikaba zera ku binyamisogwe. Imboga ni bimwe mu biribwa imibiri yacu ikenera kuko biyirindaga indwara bityo bikongerera umubiri ubudahangagwa butuma itagwaragurika.

Amajeri cangwa amashaza ni ibihingwa bibarizwa mu binyamisogwe. Byera mu misozi cane ikonja. Gashobora guhingwa ku buryo bwa kijambere, gakubakirwa imigozi gatondagiraho kugira ngo gazabashe kwera umusaruro gwutubutse. Gararibwa kandi gakorwamo sambusa.

Ibyana by'ingurube biri mu kiraro cabyo byahuriye ku mabere ga nyina birikugonka , buri kimwe cose kiri kurwana kugira ngo arico kibasha gufata ibere conyine, bityo kikagenda gihigika cene nyina.

Inka ni ubworozi bushobora kororerwa mu ngo mu biraro cangwa bukororerwa mu gasozi mu bikuyu, zifite akamaro kenshi cane kuko ziduha amata, zikaduha ifumbire, zikaduha n'amafaranga iyo tuzigurishije.

Inka ni ibiremwa bibarizwa mu matungo maremare, byororwa na mwene muntu. Inka zigira amarangamutima nk'ayumuntu, iyo bishonje bikenera ubwatsi ngo birishe kandi iyo bifite inyota bikenera amazi ngo binywe. Kunywa amazi kw'inka ni ugushoka

Inkaka ni itungo ryororwa n'abantu rishobora kororerwa mu kiraro cangwa ku gasozi ribarizwa mu matungo maremare rigira umusaruro nk'amata, inyama, ifumbire rihingishwa ibindi bihingwa uruhu rwazo rushobora kuvamwo inkweto, imikandara ,ibikapu n'ibindi.

Abaganga b'amatungo cangwa se abavuzi bago bazwi ku izina rya veterineri, bari kubaga itungo rifite uburwayi kugira ngo babashe kurivura iyo ndwara yarifashe, ryongere risubirane ubuzima bwaryo uko ryahoze.

Inkoko ni amatungo magufi, gaba mu mago g'abantu, gatanga umusaruro utandukanye nk'inyama n'amagi, gashobora nanone gutanga ifumbire ishobora gufumbizwa ibindi biribwa bikera neza. Amatungo g'inkoko gafite umumaro.

Inka ni inyamaswa ibarizwa mu matungo maremare. Ibana n'abantu ni mwene wabo wa bugufi n'izindi nyamaswa ziba mu gasozi zitwa imbogo. Inka iyo irwaye ivuzwa nk'uko umuntu avurwa , inka itanga ifumbire , inyama, uruhu rwayo rushobora gukorwamo imikandara, inkweto ,amasakoshi n'ibindi.

Inka iri mu matungo maremare abarizwa mu ngo, iyo ikiri nto yitwa umutavu cyangwa inyana. Inka ni mwene wabo cyane wa bugufi w'ayandi matungo aba mu ishyamba yitwa imbogo. Inka irarisha ifite akamaro ko kuribwa no gutanga ifumbire n'ibindi.

Ihene iri mu matungo yororwa magufi cyane. Ni itungo ribana n'abantu rishobora kororerwa mu kiraro cyangwa rikororerwa ku gasozi bitewe n'ubwinshi bwazo. Ihene ziraribwa, impu zazo zivamo ibikoresho bitandukanye nk'ibikapu, imyenda n'inkweto.

Ingurube iyo ikiri icyana yitwa umucanda. Ni itungo cyangwa ni amatungo aba mu rugo, yororerwa mu biraro. Araribwa inyama zayo zitwa ibenzi. Zirakundwa cyane kuko ziri mu nyama ziryoha cyane.

Ubworozi bw'amatungo maremare cane ubworozi bw'inka, ubworozi bukorwa cane mu gihugu cacu c'u Rwanda; ubu bworozi butanga umusaruro gutandukanye inyama, amata, ifumbire ihingishwa ibindi bihingwa. Kandi umuntu iyo ayigurishije, abona amafaranga gashobora gukemura ibindi bibazo byihariye.

Inka ni ubworozi bw'amatungo maremare, uretse kuba bushobora gutanga ifumbire, amata, inyama n'ibindi bishobora gukorwa mu ruhu rwayo, inka amase gayo garundanwa neza gagakora umuriro gw'amashanyarazi guzwi nka biyogaze.

Abaganga b'amatungo cangwa na none abaveterineri mu ndimi z'amahanga, ni abahanga mu guhangana n'indwara aho ziva zikagera z'ibyorezo, ziba zateye mu matungo, bagerageza kuvura no guhangana n'icateye izo ndwara, kugira ngo zicike amatungo abeho atekanye.

Ubworozi bw'ingurube ni ubworozi bwiza cyane ku babukora. Uretse kuba butanga ifumbire ryo gufumbiza imyaka cyangwa ibihingwa byabo, bubaha inyama cyangwa bukabaha amafaranga ya vuba vuba, kuko ingurube iyo ibwaguye ibwagura ibyana byinshi, kandi bikura vuba.

Inka ni itungo rirerire, ni mwene wabo wa bugufi cane w'izindi nyamaswa ziba mu gasozi zitwa imbogo. Inka irya ibyatsi cangwa ikarya ibiryo byakorewe mu ruganda, ifite umumaro mwinshi kuko ishobora gutanga ifumbire, inyama, amata n'ibikoresho biva mu ruhu rwayo.

Icumba ca kijambere cubatse ku buryo bugezweho, citwa ibagiro cangwa mu ndimi z'amahanga busheri. Busheri ni icumba kibagirwamwo amatungo mu buryo bwa gihanga, butari ubwo kugashinyagurira.

Umutubu guzwi ku izina ry'igikeri gusa naho gwiteguye intambara .Urabona ko gukanuye amaso, mu bigaragara gurareba aho iyo umwanzi wago aturutse, cangwa se gukaba gwiteguye gufata umuhigo wagwo neza kugira ngo gutaza gucika.

Impundu cangwa inkima ni inyamaswa iba mu gasozi cangwa mu ishamba. Ija kumera nk'umuntu uretse ko yo igira umurizo muremure cane. Irya inyama z'ibisigazwa y'izindi nyamaswa cangwa ikarya ibyatsi.

Ubworozi bw'amatungo magufi arimo ibiguruka nk'inkoko cangwa dendo cangwa imbata ni ubworozi bwiza cane kuko butanga amagi cangwa se inyama, kandi bushobora gutanga n 'ifumbire ishobora gutuma imyaka cangwa ibihingwa byera neza.

Imende ni inyamaswa nto cane iri mu bwoko bw'imbeba, iba mu kigunda, igira amabara g'umuhondo n'umukara, ifite amatwi gabanguye kandi gumva cane iyo itewe n'ikintu ihita yitabara kuko amatwi gahita gayimenyesha.

Ikinyogote ni inyamaswa itangaje cane. Iba mu gasozi mu mwobo, ifite ubwirinzi ku mubiri wayo. Iyo indi nyamaswa ije kuyihohotera irihina, hanyuma ikizunguza ikayitera uducumu tuyibarizwaho.

Ende ni inyamaswa zo mu gasozi. Ni inyamaswa kandi zitunzwe no kurya ibyatsi. Inkende bivugwa ko ari bene wabo wa bugufi w'umuntu. Kuko iyo witegereje neza, usanga zifite imiterere neza neza imeze nk'iy'umuntu. Inkende zituzanira amadevize kuko ziri mu biremwa bikurura ba mukerarugendo.

Intasha ni inyoni y'igitangaza cane. Kuko yarika icari cayo kukibambasi by'amazu gaba gatuwe cangwa gadatatuwe. Aho ni ho ituragira amagi gayo. Ibyana byayo bikaba muri ico cari. Ico cari kandi kiba gikozwe mu ibumba cangwa ibyondo.

Babyara bacu baba iyo mu misozi miremire, Ingagi ni amatungo gaja kumera neza neza nkatwe abantu bo mu gasozi ariko. Aga amatungo gaba gafite umubiri utwikiriwe n'ubwoya bwinshi .Ubu bwoya bukaba bugarinda kunyagirwa, bukagarinda no kugira imbeho.

Inyoni ni kimwe mu biremwa biba mu gasozi. Iba mu cari. Inyoni yororoka ibanje guturaga amagi gayo. Inyoni ishobora kugenda n'amaguru cangawa ikaguruka. Inyoni zifite akamaro kuko hari iziribwa cangwa izindi zikarya udukoko twangiza imyaka y'abaturage.

Inyoni izwi kw'izina rya gasuku n'inyoni ifite ubwenge bwinshi cane. Ishobora kwigana ibikorwa bya muntu, cangwa amajwi ge. Iyo uyibona uba ubona ari inyoni iteye amabengeza, ifite amabara meza cane.

Inyoni ni ikiremwa gifite umubiri utwikiriwe n'a moya, kigendesha amaguru cyangwa se kikaguruka, akenshi inyoni ziba mu gasozi cangwa mu mashyamba, ziba mu byari zasobekeranije mu byatsi, mu bushorishori bw'ibiti, zishobora kandi no kuba mu bitare bitandukanye.

Impyisi ni inyamaswa iba mu ishyamba ijya kwitwara nk' imbwa, ibana n' abantu; impyisi ni inyamaswa ikunda kurya inyama cyane, akenshi inyama impyisi irya iba itazihigiye, kuko aba ari ibisigazwa by' inyamaswa zindi z' inkazi nk' intare n' ingwe ziba zasigaje.

kangaro ni udusimba dukunda kuba mu ishamba. Utu dusimba, turya ibisigazwa by'izindi nyamaswa z'inkazi zariye nk'intare, ingwe cangwa impyisi. Utu dusimba tuba mu muryango, ntushobora kubona agasimba kari konyine. Ni udusimba kandi turangwa n'amakenga cane

Inkima cyangwa inkende, ni mwene wabo w'ingagi kandi akaba mwene wabo w'impundu, nanone ni mwene wabo wa bugufi cyane natwe abantu, ntitwakwibeshya tuvuze ko ari babyara bacu baba mu ishyamba nk'uko abashakashatsi babivuga.

Inyoni ni ikiremwa ciza cane. Kiba mu gasozi cangwa mu ishamba. Cororoka kibanje gutera amagi, kikagararira nyuma kikagaturaga. Umwanzi w'inyoni na none ni inyoni. Inyoni zirusha izindi imbaraga zirazica zikazirya.

Impundu ifashe urubuto ishaka kurya ariko hari icayirangaje gituma itarushira mu kanwa, impundu ni inyamaswa iri bugufi kuba nk'umuntu iba mu gasozi cangwa mu ishamba.

Inyoni mu ibara ry'umweru ifite umunwa muremure kandi usongoye, yiteguye gufata umuhigo, cyangwa na none ikaba hari icyo yikanze cyayikura mu buzima, akaba ariyo mpamvu iri kwitegereza cyane n'amatsiko, kugira ngo ibashe kugira icyo ibikoraho.

Inyoni ni ikiremwa cyiza kiba mu cyari, cyororoka ari uko giteye amagi ariko cyahuye n'ikigabo, kuko nibwo ayo magi aba abanguriye noneho kikayaturaga, nyuma y'uko kiyaraririye iminsi runaka, hanyuma hakavamwo ubushwi kikororoka gutyo gutyo.

Inyamaswa z'inkazi cane zizwi ku mazina g'intare cangwa nanone umwami w'ishamba ubwo kubera ari nyinshi ni abami b'ishamba zizwiho kuba ari inyamaswa zirya inyama cane zihiga izindi nyamaswa ziba mu ishamba zikazica zikazirarya.

Igisimba nk'iki cyangwa igikururuka nk'iki cyitwa umuserebanya cyangwa se igihangane. Iki kikaba mu by'ukuri giteze umuhigo. Nta kindi gitumye gikanura ririya jisho ni uko giteze umuhigo kugira ngo kirarire cyangwa kirye.

Ukuboko k'umuntu kwizingiranijeho inzoka. Ni ikimenyetso kigaragaza umuntu ukora akazi k'ubupfumu. Inzoka ni ikiremwa gikururuka kiba mu gasozi. Kurumwa n'inzoka ukavurwa byitwa kugomborwa.

Inyoni ni imwe mu rusobe rw'ibinyabuzima bibarizwa hano ku isi. Ni ikiremwa gifite ubushobozi bwo kuguruka no kugendesha amaguru. Kiba mu bushorishori bw'ibiti mucyari. Kirya udukoko cyangwa imyaka yeze. Gifasha ibimera kubangurirana. Gifite umumaro ukomeye

Inuma, ni inyoni nziza cane, zigenda ari ibiri ibiri, inuma zibana n'abantu cangwa zikaba ku gasozi. Izibana n'abantu zitwa inuma za kizungu. Inuma ziraribwa, zirya ubwazo udukoko cangwa zikarya imyaka yeze nk'amasaka cangwa ibigori.

Inyoni ni kimwe mu biremwa biteye amabengeza. Inyoni ishobora kugendesha amaguru gayo cangwa igakoresha amababa gayo iguruka. Ishobora gutura ahantu mu rutare cangwa ikarema icari mu bushorishori bw'ibiti, cangwa ikaba ishobora kubumbabumba inzu ikoze mu kondo akaba arimo itura.

Inyoni ni inyamaswa iri mu bwoko bw'ibiguruka kuko iraguruka ikoresheje amababa gayo. Ni inyamaswa ifite ubwenge buhambaye. Urebye uburyo isobekeranya utwatsi ikarema icari co kubamwo, ni ibintu bitangaje cane biteye amatsiko.

Inyoni ni ibiremwa biteye amabengeza birangwa no gurukisha amababa gabyo, biba mu bushorishori bw'ibiti cane niho byarika ibyari byabyo, bitera amagi bikagararira, bikagaturaga, uko niko byororoka birya udukoko cangwa imyaka.

Inyoni ni ikiremwa gifite ubuzima kiravuka, kirakura nyuma kigapfa, gifite umubiri utwikiriwe na moya kiba mu cyari cyangwa mu nyubako ikozwe mu cyondo. Kugira ngo yororoke itera amagi, ikazayararira, ikayaturaga akavamo imishwi izakura na yo ikaba inyoni. Itunzwe n'udusimba duto cyangwa imyaka y'ibinyampeke. Inyoni zifasha abahinzi mu kubangurira ibihingwa byabo.

Impundu ni inyamaswa iba mu gasozi cyangwa mu ishyamba . Ifitanye isano n'ingagi ndetse n'inkende. Nta nubwo twaba twibeshye tuvuze ko ifitanye isano ya bugufi n'umuntu kuko imiterere yayo, neza neza mu maso yayo isa n'umuntu irya ibyatsi kandi irara mu byari.

Inkware ni inyoni iba mu kigunda cagwa mu gihuru. Ni mwene wa bo wa bugufi n'indi nyoni ibana n'abantu yitwa inkoko. Uko inkoko yororoka ni nako inkware yororoka. Inkware irya ibyatsi cyangwa imyaka, cyangwa igatora utundi dusimba. Amagi ya yo araribwa ndetse n'inyama za yo zikaribwa.